Abaganga ni beza. Muganga akora imiti, agakora ibintu byinshi bitandukanye ,abaganga barigisha bagateza imbere igihugu cyacu, igihugu cyacu kigatera imbere, kandi abaganga iyo umuntu afite ikibazo akabageraho , bamugira inama bigatuma agira ubuzima bwiza.

Aka kuma gapima umuriro, iyo umuntu afite umuriro mwinshi cyangwa afite ikibazo mu mutima cyangwa afite ikibazo mu maraso, bakamushiraho bahita bamenya nimba afite ikibazo, abaganga babapimisha utu twuma babona amafaranga, bateza imbere imiryango zabo.

Amateke ni meza, amateke iyo wayatekanye n'ibirayi wumva ari byiza cyane iyo ufashe amateke ukayarya wumva aryoshye, amateke atanga amafaranga, umuhinzi uhinga amateke abona amafaranga menshi, akigisha abana be bakiga ahantu heza kandi bakabaho neza.

Indabo ni nziza. Iyo ufite indabo warazihinze biba ari byiza cyane kuko umuntu wese uzibonye arishima. Abahinzi bahinga indabo bajya kuzigurisha mu mahanga, bigatuma babona amadovize bagateza imbere imiryango yabo, bagateza imbere n'igihugu cyacu.

Ibisheke ni byiza, iyo igisheke ugiteye kigakura, uragisarura, ukakirya ukumva kiraryoshye cyane. Umuntu wariye igisheke agira isukari mu mubiri, akagira ubuzima bwiza. Ibisheke babikuramo isukari dutekesha igikoma tukagira ubuzima bwiza, tugatera imbere.

Ikidodoki kiraryoha, iyo ukiriye wumva kiryoshye cyane, iyo umwana yariye imboga z'ibidodoki akura neza, akagira ubuzima bwiza, akiga agafata, agateza imbere n'igihugu, ikidodoki iyo bagihase, bakagicamo uduce dutoya bakadutekamo imboga, ziraryoha cyane.